Ahantu hari habereye amatora abaturage bamwe bari kujya gutora abandi bari kuvayo ku marembo y'aho hantu hari habereye amatora hari hari banderore yanditseho repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twitabire amatora duhitemo neza.

Icyapa cya Radiyanti. Radiyanti ni kimwe mu bigo by'ubwishingizi. Cyanditseho ngo turi kumwe mu rugendo rwawe tuguha ubwishingizi bw'ubuzima, kanda akanyenyeri, gatanu, gatatu, rimwe, akadirishya.

Umugore afite telefone, ayifatiye ku gutwi, araramye hejuru ari guseka cyane, afite agasakoshi ku rutugu, afife n'igikapu, bya bindi by'abava mu mahanga, iruhande rwe handitse amagambo ngo umusangirangendo wizewe.

Icyapa cya Radiyanti kiriho umuryango, umugabo n'umugore n'abana babiri, cyanditseho ngo turi kumwe, gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango. Kanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe urwego.

Akameza gato gakozwe mu muzenguruko ,kari hagati y'inzug' ebyiri bigaragarak' ari muri korodoro n'amakaro yarari mur'iyo nz' ashashemo.

Aha ni mukabari, nta muntu urimo, aho bagurishiriza ibinyobwa, inzoga.

Aha ni mu kabari hari imeza iteretseho amacupa n'ibirahure birimo inzoga.

Aha ni mu kabari hari umukobwa wari ufite icupa rya henikeni ari kunywa inzoga ya henikeni yararimo guseka yishimye.

Telefoni ya simatifone yari iriho ifoto igaragaza aho bacururiza imyenda inyuranye hari amagiingisi amapantaro ariho amajingisi n'imipira n'ibindi.

Butike irimo amavuta y'amoko yose, iyo ukarabya ukisiga neza ugaragara neza isura yawe ikaba nziza.

Inzu nini isize irangi ry'icyatsi ifite imiryango itatu, imiryango ibiri niyo ifunguye, hanze hari imyenda bigaragara ko ari iduka ry'imyenda, hakaba hari n'umugabo uri gutambuka imbere y'iryo duka, ufite imisego y'ibitanda ari kugenda.

Inkweto nyinshi, zipanze neza ku murongo, harimo iz'abagabo n'iz'abagore, kandi zipanze ku buryo nta rukweto ruri kumwe n'urwarwo.

Etajeri ipanzemo inkweto za supurese, bigaragara ko ari aho bazigurishiriza.

Telefone bari bafunguye ku murongo nkoranyambaga wa fesibuku, barimo kwerekana ifoto y'agasakoshi k'abagore.

Etajeri y'umweru, hejuru harimo ibintu by'imitako, hagati hakaba hari uducupa, ibumoso ni uducupa wagira ngo ni imiti, iburyo ni uducupa wagira ngo turimo amavuta, uducupa tw'amavuta, hasi hakaba hari n'ibintu by'imitako.

Imodokari nyinshi z'amavatiri y'umweru, iruhande rwabo hari abagabo babiri umwe arasa nk'uwereka undi icyerekezo cyangwa se imodokari bigaragara ko ari kumurangira imodokari nziza.

Abagabo babiri bari kuri gishe, uri inyuma wambaye ishati yumukara ameze nk'aho yabonye amafaranga ye, ari kuyabara kugira ngo arebe ko yuzuye. Uwambaye ishati y'umweru we ntabwo arayafata yose; hari ayo amajije gufata, andi aracyari kuri gishe.

Imodoka y'ivatiri y'umweru, iyo modoka ari y'umweru iruhande imbere ku kizuru cy'imbere hari abagabo babiri bafashe mu ntoki igishushanyo cy'igifunguzo cya kontake cyanditseho ngo akagera motosi.

Imodoka enye bita kwasiteri zari ziparitse ahantu bigaragara ko zitarakoreshwa zikiri nshyashya zikiri kugurishwa.

Ivatiri y'umweru yo mu bwoko bwa toyota iparitse muri sale y'akagera motozi aho bazigurishiriza, akagera motozi ni kampani ishinzwe kutuzanira ibikoresho bya marike ya toyota.

Imodokari ebyiri za daihatsu zegeranye, hagati yazo hahagazemo abagabo babiri bafite igishushanyo gikozwe mu rufunguzo, muri icyo gishushanyo harimo amagambo yanditse AKAGERA motors. Inyuma y'izo modoka, hari inzu yanditseho ngo AKAGERA motors hejuru.

Dayihatsu y'umweru, imbere hahagaze abagabo babiri, uri ibumoso yambaye ingofero, uri iburyo nta ngofero yambaye, bakaba bafite igishushanyo cy'urufunguzo, rwanditseho amagambo y'umutuku avuga ngo Akagera motozi. Inyuma y'iyo dayihatsu, hari inzu iriho icyapa kinini cyanditseho Akagera motozi.

Inzu ngari irimo imodokari nyinshi, kuri iyo nzu hari icyapa cyanditseho yundayi, kuri iyo nzu kandi munsi yayo hari ipoto ihari, iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Abagabo babiri, n'imodokari ebyiri, bazihagaze imbere, bakaba bafite igishushanyo cy'urufunguzo cyanditseho akagera motozi.

Inzu ndende iri hakurya y'umuhanda wa kaburimbo, iyo nzu irimo imodoka, hejuru ku nzu hari ibyapa bibiri icy'umukara n'icy'icyatsi byanditseho yundayi, inyuma y'iyo nzu hari ipoto iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

inote y'amafaranga y'ibihumbi bitanu , igaragara igice cyinyuma kiriho ingagi, amafaranga nimeza aradufasha mubuzima bwacu tukagera kucyo twifuza cyose.

Ifoto y'amaboko abiri, ukuboko kumwe gufite amafaranga y'amadolari ukundi gufite amafaranga y'amashiringi. Kuri banki ni ahantu babitsa cyangwa bakabikuza amafaranga.

Igiceri kiriho insina n'igitoki ndetse n'umukanana wa cyo, cyanditseho amagambo Banki nasiyonari du Rwanda miri nefu sa seputanti seti. Ni igiceri cyakoreshwaga mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe maganacyenda na mirongocyenda na kane.

Abantu babiri ni abagore umwe arimo imbere murigshehe ni umukozi ukorera banki arimo kwakira undi mugore amajije kumuha amafaranga ari kugenda yabara mu ntoki kugira ngo arebe ko yuzuye.

Inote ebyiri nshyashya, y'amafaranga ibihumbi bitanu, Ariko n'inota imwe bashatse kwerekana ibihande byombi igihande cy'imbere n' icy'inyuma. Igihande kimwe kiriho ababyinnyi bari kubyina, ikindi kikaba kiriho inzu ya etage, ariyo ya beneri. Aya mafaranga yakoreshwaga muri mirongo icyenda n'umunani, ubu ntagikoreshwa yasimbuwe n'andi.

Inote nshyashya y'amafaranga ibihumbi bibiri; amafaranga akoreshwa mu gihugu cyacu, amafaranga ni meza, amafaranga atuma ugira ubuzima bwiza, utayafite nta buzima aba afite.

Amafaranga mashyashya y'inoti y'ibihumbi bitanu, aragaragara igice kiriho ingagi n'igishushanyo cya konveshoni senta.

Umuntu afatishije mu biganza byombi amafaranga y'inoti, agiye ayapanze mu buryo bwo kwerekana umubare, buri note iragaragaza umubare igihumbi.

Ku ikaragiro ry'amata hari hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru ari guhereza amata abantu bari mu idirishya bayashakaga.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Umugore wari wicaye muri kantine imbere ye ku meza hari terefone ye hakaba hari n'igikombe kirimo kirimo ikiyiko n'agakombe gato kabamo isukari akaba yararimo kunywa icyayi akaba yarafite n'inote mu ntoki ameze nkaho ari kwishyura imbere ye ku meza nanone hari igikombe kinini kirimo kirimo amata n'isahani iriho imyumbati.

Umugati wo mu bwoko bwa capati, capati ni ikiribwa kiryoha cyane kandi gikungahaye ku ntungamubiri.

Kantine nziza, ifite ibikuta bisize irangi ry'ubururu, parafo yayo ni umweru n'amakaro yayo ni umweru, hakaba hari umukobwa uri muri kontwari uri kugurisha, hejuru ya kontwari hari akajerekani karimo amata, iburyo bwe hari amacupa manini ya litiro makumyabiri bagurishirizamo amazi. Ibumoso bwayo hari mirikizone.

Aho bagurishiriza amata, hari abantu babiri hari umuguzi uri uhagaze mu idirishya, hakaba n'uyacuruza, arimo aragenda apimira uyashaka mu kabido, amata ni meza atugirira akamaro cyane.

Ku ikaragiro ry'amata, aho bayakusanyiriza, bakayashyira mu byuma bituma agomeza kugira umwimerere wayo. Birayakonjesha, bityo uyakeneye akayabona ari amata meza aryoshye.

Etajeri ifite imyanya ibiri, umwanya wa mbere urimo ijerekani y'umweru ipfunduye, n'umwanya wa kabiri, ikaba urimo ijerekani y'umweru ipfunduye.

Indobo ebyiri, imwe irimo amandazi indi irimo keke, zirapfundikiye n'imifunniko yazo, hejuru hari kakumba bafatisha ayo mandazi cyangwa keke.

Kantine yari irimo abana babiri b'abakobwa bambaye amapantaro, bari babahaye amata mu bikombe by'ibirahure bafite na keke mu ntoki bafatishije seriviyete, imbere yabo hari umucuruzi wari urimo kubakira. Ku kameza hateretse amajerekani, utujerekani dutoya n'igicuba, hirya yabo gato hari umuntu wambaye igisurubeti cy'icyatsi.

Umugabo wiyogoshesheje wazamuye akaboko, wambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'umukara ndetse na karuvati y'ubururu, imbere hakaba hari mikorofone, inyuma ye hakaba hari dolise y'amashokora ndetse munsi hakaba hari amagambo yandikishije inyuguti z'umweru, handitseho Dogita Utumatwishima Ja, munsi hakaba hari n'undi.

Umugore wari uri muri kantine bari bamuhaye amata mu kihure ariko ari gutuza acyo arisha ayo mata. Amata ni meza atuma tugira umubiri mwiza kandi tukabimererwa neza mu buzima.

Ahantu bacuruza amata n'ibiyakomokaho, hari etajeri irimo utujerekani twinshi turimo amata n'udukombe twa yawurute, turimo yawurute, hasi hakaba hari ibikesi birimo uducupa turimo yawurutse, ibikesi bibiri bipakiyemo yawurutse, n'igicuba.

Umugabo aje kugura kimwe mu binyobwa bigurishirizwa hano, hari amata ya Mukamira hari na ji cyangwa amazi.

Umuntu uri kunywa yawurute, yawurute ni nziza ku mubiri w'umuntu, igatuma umuntu agira imbaduko mu bwenge no mu gihagararo.

Aho bagurishiriza amata cyangwa se ibikomoka ku mata birimo yawurute n'amata, amata ni meza ku mubiri w'umuntu.

Ku ikaragiro ry'amata hakaba hateretse ibicuba baboganijemo amata, amata ni meza mu mubiri wacu atugirira akamaro gakomeye, atuma uruhu rumera neza agatuma tugira imbaraga.

Kantine igurishirizwamo ibyo kunywa, harimo amata, ee, muri etajeri harimo amata n'indobo irimo amandazi n'ibikombe bakiriramo abantu ibyo kunywa.

Aha ni ho bacururiza amata y' i Nyanza, amata ni meza ku mubiri w'umuntu aradufasha cyane kubaya

Amazi ari mu macupa ya nili amazi ni meza mu mubiri w'umuntu kuk atugirira akamaro gakomeye cyane.

Hano ni muri kantine, har'indobo zipfundikiye imwe irimo amandazi indi irimo keke zenda gushira. Hejuru hakaba hari agafashi gatuma umuntu atabikoraho. Isuku nayo ni nziza mu bituranga.

Umuntu warufite icupa cyangwa igikombe kirimo yohurute ya Mukamira, Yahurute ni nziza nayo igirira akamaro umubiri w'umuntu.

Akaboko k'umuntu gafasha capati, capati ni kimwe mu biribwa bikomoka ku ifarine kandi ifarini muzi ko ari nziza ku mubiri w'umuntu.

Ku ikaragiro ry'amata hari umukobwa wari wambaye agakabutura na supurese n'agapira. Bigaragara ko yari arimo kwishyura aho yari aguze amata.

Abantu batatu ni abagabo babiri n'umukobwa umwe, umugabo n'umukobwa bambaye imipira y'umutuku n'ingofero zisa ziriho agasinye k'umutuku bafite amata yawurute mu ducupa.

Icyapa kerekane uko wakwishyura umuriro ukoresheje eyaterimane.

Resi cyangwa fagitire yo muri Rwanda Reveni y'umugabo witwa Seneti Bakari wishyuye ibihumbi cumi, kuri onulayini mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi.

Icyemezo gitangwa na rwanda reveni otoriti icyemezo cyerekana ko umuntu yiyandikishije ku musoro w'yongeragaciro icyo cyemezo kiriho tiini namba ye n'igihe yagiherewe.

Fagitire y'umusoro wa Rwanda reveni, watanzwe na kampaniyitwa an amekikoro amakikoro, ni uruganda rukora amarangi, amarangi basiga ku mazu inzu zikagaragara neza.

Abagabo babiri bari kuri gishe, uri inyuma wambaye ishati yumukara ameze nk'aho yabonye amafaranga ye, ari kuyabara kugira ngo arebe ko yuzuye. Uwambaye ishati y'umweru we ntabwo arayafata yose; hari ayo amajije gufata, andi aracyari kuri gishe.

Inote esheshatu z'amayero zitondetse ahantu, ku buryo zigenda zigaragaza imibare ku mitwe yazo, bakaba barazitondetse bahereye ku noti ntoya bakageza ku note nini, ni ukuvuga inote y'amayero atanu, inoti y'amayero icumi, inote y'amayero makumyabiri, inote y'amayero mirongo itanu, inoti y'amayero ijana n'inoti y'amayero magana abiri.

Icyapa kiri kwerekana uburyo ifaranga ry'irinyamahanga rihagaze uyagereranyije n'amanyarwanda.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, harimo imodoka nini iri kugenda ifite irange ry'umweru.

Amafaranga y'inoti esheshatu zose zigaragaza ifoto y'umutwe w'umugabo, ebyiri inoti ebyiri zibanza nizo zigaragaza umubare wayo iya mbere ni ijana iya kabiri ni mirongo itanu, akaba ari amafaranga atari ay'amanyarwanda ari ayo mu kindi gihugu.

Umugabo ufite inote mu biganza byombi, asa nk'uzamuye arigusa nk'uzerekana, ukuboko kw'iburyo gufite inoti z'amadorari n'aho ukuboko kw'ibumoso gufite inote zivangavanze.

Umuntu wari ufite inote zikoreshwa mu bihugu bitandukanye, inoti imwe y'amafaranga y'igihumbi y'u Rwanda, inote imwe y'amafaranga ibihumbi bitanu y'u Rwanda, inote imwe y'idorari rimwe ry'amerika, inote imwe ya mirongo itanu, inoti imwe ya magana atanu, inote imwe y'amafaranga atanu ikoreshwa mu gihugu cya Malezia.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda idoze, nayo imanitse ku twuma dufite ibara ry'umweru, hasi no hejuru ndetse iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zishinze z'umweru zifasheho iyo myenda imanitse.

Umuntu wari ufite amafaranga menshi ku meza anyanyagiyeho, yo mu bihugu bitandukanye, ariko apfumbatije mu biganza byombi amadorari menshi, idorari ribanza ari idorari rimwe.

Amafaranga y'inoti, imwe y'ibihumbi makumyabiri, indi y'ibihumbi icumi, indi y'ibihumbi bitanu, indi y'igihumbi, indi ya maganatanu, akaba ari amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Congo. Amafaranga ni meza atuma tubasha kubaho tukagira ubuzima bwiza.

Umugabo uri kubara amafaranga menshi inota imwe ikaba yanditseho amafaranga ibihumbi ijana, imbere ye ku meza harambitse inoti nyinshi z'amafaranga ijana y'amadorari.

Inzu ikoreramo ubucuruzi icyuma gitunganya amata, intebe ya pulasitiki ameza etageri ndende irimo abajerekani y'umweru arambitse, ikarito n'amacupa y'amazi inkongoro hejuru.

Inote y'amafaranga ijana iri hejuru y'izindi noti nyinshi zitandukanye, iburyo bw'iyo noti y'amafaranga ijana handitse amagambo avuga ngo banki santarale di Kongo. Munsi yayo hakaba hari kashe ya banki munsi yiiyo kashe hakaba hari nomero ziranga iyo noti, mu nguni iburyo hakaba hari sinyatire. Ibumoso hakaba hari igishushanyo cy'inzovu ibanguye amatwi n'umutonzi ureba hejuru.

Umugabo wari ufite amafaranga menshi y'inoti, ayo mafaranga si amafaranga y'amanyarwanda, ukuboko kw'iburyo, ku rutoki rwa musumbazose hariho impeta, kandi kuri izo ntoki hariho fimbo.

Umuntu wari ufite amafaranga menshi yari ari ku meza andi ayafite mu ntoki. Ari ku meza ni amadolari abiri y'ijana y'amadolari y'abanyamerika, hakaba n'andi iburyo menshi y'amafaranga y'amanyanijeriya. Ayo yari afite mu ntoki nayo ni amanyanijeriya.

Umuntu wariru kubara amafaranga y'amadolari ijana amadolari menshi, amadolari n'amafaranga y'amanyamahanga y'abanyamerika.

Amafaranga y'inote, afunze mu mifunga itandatu, ni amayero y'inoti ya maganabiri, ni amafaranga akoreshwa mu bihugu by'iburayi.

Inzu igeretse inshuro nyinshi aho ifite ibirahure by'umukara ndetse isize amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, aho hariho icyapa cyanditseho agaciro, imbere yaho hari ibiti ndetse na jaride, aho iyo nzu itangirwamo serivise zitandukanye.

Umugore wari uhetse marete mu mugongo, yambaye agapfukamunwa, afite na telefone mu ntoki ari kureba imbere ye, ahanditse kode z'ibihugu.

Inzu yaho bavunjishiriza amafaranga yo mu mahanga, waba ushaka amafaranga ufite amafaranga yo mu mahanga bakaguha ayo mu Rwanda ay'amanyarwanda, waba ufite ay'amanyarwanda bakabaguha ayo mu mahanga.

Inzu yari iriho ibyapa bitatu cyo hejuru cy'umuhondo cyanditseho western union mu nyuguti z'umukara igikurikiyeho kigaragaza Banki of Kigali, Bank ya Kigali, icya gatatu kikaba kigaragaza aho bavunjishiriza amafaranga Forex Bireau.

Aho bavunjishiriza amafaranga, ufite amafaranga y'abamanyamahanga ushaka ay'abamanyarwanda bakayaguha, waba ufite amafaranga y'amanyarwanda ushaka ayo mu mahanga, mu bihugu ibyo ari byo byose bakaba bayakubonera.

Umuryango ufunguye hejuru y'uwo muryango hari icyapa cyanditseho ikaze birodeshanje, ni aho bavunjishiriza amafaranga y'amanyamahanga, ushaka amanyarwanda akayabona cyangwa ushaka amafaranga yo mu bindi bihugu akayabona.

Inzu ifite umuryango ufunguye hejuru y'iyo nzu hari icyapa kinini cyanditseho ngo dukomere foregisi buro ni ahantu havunjisha amafaranga ufite amanyarwanda ushakamanyamahanga cyangwa se ufite amanyamahanga ushaka amanyarwanda.

Inzu iriho ibyapa bitatu ikibanza icyapa cy'umuhondo cyanditseho wesitane yuniyo, ikindi gikurikira cyanditseho ngo banke ofu Kigali, ikindi cyanditseho ho foregisi biro.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho egisicenje, munsi yaho hari agafureshe k'umutuku, munsi yaho haru barerekana uburyo bavunjisha amafaranga.

Inzu nini ifite ibyapa bibiri, kimwe kigaragaza aho babyinira bita bakunda kwita mu kabyiniro cyangwa muri buwate, ikindi kikaba kigaragaza aho bavunjisha amafaranga y'amanyamahanga.

Agakiyosiki gakoreramo umu agenti utanga serivisi zitandukanye za banki, banki zitandukanye eko banki, ekwiti banki, banki urwego n'izindi banki, ikoreramo MTN na eyeteli n'izindi serivise zitandukanye.

Uwo mutako, uriho imyanya ine, ijyaho utuvase dutoya, tukaba turiho, hariho utuvaze dutoya tw'umweru, turiho indabyo. Iyo biri mu nzu, usanga inzu igaragara neza.

Salo nziza irimo intebe nziza zigezweho z'amafoteyi zifite udusego tw'amabara icyatsi, umuhondo n'ubururu ku nkuta zo muri salo hariho amakadere ashushanyijeho ibintu binyuranye.

Ahantu heza hagezweho bakarabira basukura intoki mu biganza, cyangwa bakaba bahogereza ibikoresho byo mu rugo. Kugira isuku ni yo soko y'ubuzima.

Intebe z'amafuteye zari hanze, zari zizengurutse utumeza twazo dutatu, hepfo yaho hari igipangu gifite porotaye y'umukara cyari gikinze.

Intebe zo muri salo nziza cyane. Ahantu ziri hakunze kuba ari nko muri kompanyi y'umuntu, hakaba cyangwa se muri minisiteri runaka, aho baba bakiriye abantu baje babagana.

Salo nziza, aho bakunda kwita mu ruganiriro. Harimo intebe nziza cyane z'amafuteyi hakaba n'meza yazo nziza cyane ikozwe mu rubaho. Aha ni ho abantu bicara bakaganira batuje.

Aka etajeri kariho ibintu bitandukanye, gakunze gushyirwa ahantu nko muri salo ugasanga salo iradekoye neza, iteye neza iragaragara neza kubera imitako iba iriho.

Urabibona ko rwambaye amakoti y'icyatsi, rwiganjemo inkumi n'abasore, ubona ko bari kumwe n'abandi bantu bambaye nk'abanyonzi. Harimo daso zishinzwe umutekano mu mujyi wa Kigali, basa nk'abitabiriye ibindi bintu runaka bari kumva.

Aho bagurishiriza intebe z'amafuteyi, ni intebe nziza cyane, iyo iri muri salon ubona igaragara neza, bikagaragaza ko umuntu yifite.

Amafuteri meza cyane amwe agezweho y'umweru na orange n'udusego twayo tw'umweru na orange, ikaba ifite imeza nziza y'umweru hakaba n'utundi tumeze dutoya dukozwe mu buryo bw'uruziga.

Sale iteguye neza, irimo intebe nziza, ikaba irimo na tapi nziza na parafo nziza, irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho, akaba ari ho bakorera inama.

Icyumba cyiza kandi kinini kiganjemo ibara ry'umuhondo n'umweru, harimo igitanda cya dubure cyiza gishashe neza, ndetse igitanda hari intebe ebyiri n'imbere yacyo hakaba hari imeza ndende nini ziriho agacupa kari...

Bale cyangwa hoteli muri etageri harimo amacupa arimo inzoga, hejuru ya etageri ku gikuta hamanitse televiziyo yariri kwaka nta muntu urimo ugaragara.

Konvesheni senta, habera inama mpuzamahanga, umuntu yahasohokera, hakabera ibitaramo n'indi myidagaduro.

Intebe z'amafuteyi aho bazigurishiriza. Intebe iyo ziri muri salo, usanga haba hari ahantu hatekanye neza kandi ukahaganira, ukumva uguwe neza.

Isahani iriho amafunguro hirya yaho gatoya hakaba hari icupa n'ibikombe byubitse. Gufungura neza indyo yuzuye irimo inyubaka umubiri ibirinda indwara n'iby'ubaka umubiri nibwo uba uriye neza.

Ahantu hatangirwa serivisi y'ibyo kurya n'ibyo kunywa, bakunda kwita muri resitora cyangwa se muri bare, hari hateguyewemo intebe n'ameza, bigaragara ko nta muntu wari uhari.

Muri hoteli, harimo intebe, nta muntu uzicayeho, hakaba hari na kontwari ifite etajeri irimo inzoga z'amoko atandukanye. Hino hakaba hari aka etajeri k'ibirahure harimo imigati.

Abantu babiri umugabo n'umugore, umugabo ari muri gishe ya nomero imwe, umugore akaba ari muri gishe ya nomero kabiri, bose bari kubakira.

Icyapa kinini kimanitse ku nzu, cya sosiyete y'ubwishingizi yitwa purayimu shuwarensi, ishami ryayo rikorera i Rusizi.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ifite n'amadirishya y'umukara arimo utwuma, harimo amarido afite ibara ry'ubururu ndetse n'udutebe, ndetse hari n'akagare kicaramo abageze mu za bukuru ndetse n'abamugaye, harimo n'ifoto imanitsemo muri iyo nyubako.

Icyapa cyanditseho bipiyara banke wikendi wikendi wikendi kikaba kiriho umuntu wari ufashe undi amafatishije amaboko yombi asa nkumuzunguza.

Abantu benshi bari bahagaze muri sare begeranye bameze nk'abari kwifotoza buri wese yambaye agapfukamunwa, aba bantu bambaye imipira isa n'icyatsi yanditseho ngo girini amayaga inyuma yabo hari n'icyapa cyanditse gutyo girini amayaga.

Inzu y'igorofa, har'icyapa kivuye hejuru kikagera hasi, cyanditsemo hagati gosheni. Hasi hakaba hari utwapa dutandukanye tugiye twanditseho gosheni fayinansi.

Icyapa cya ekobanke kiriho umugabo, afite telefone mu ntoki, ari kureba imbere ye ari guseka. eko banke ni banke yakira abantu, ikababikira amafaranga.

Icyapa cya Beka cyangwa puburisiste ya beka. Beka ni banki ya Kigali. Hejuru mu nguni handitse ngo Beka turi kumwe. Munsi hakaba hari amagambo matoya avuga ngo bona angana inshuro ebyiri n'umushahara wawe, mu masaha mirongo ine n'umunani . Hakaba hari umugabo wari urimo guseka, areba hejuru, afunze igipfunsi cy'iburyo.

Inzu ifite umuryango munini urafunguye harimo abantu barahagaze, hanze y'uwo muryango hari inyuguti ya V ivuye ku gisenge hejuru ikagera hasi ku isima. Kandi kuri iyo nzu hanze hari icyapa cyanditse ngo IM bank.

Isoko ritubakiye, ryari ririmo abantu benshi, hari abaguzi n'abacuruzi, bari batanditse ibintu hasi, ibicuruzwa by'amoko tandukanye; ibirayi, imyumbati, karoti, intoryi, imiteja, n'inindi n'ibindi.

Abantu benshi bicayemo ahantu m'imbere mu inzu, imbere yabo hariho ameza n'ubucupa bw'amazi, hejuru ku meza na za mikoro imbere yaho harimo na za telefone zabo niho zirambitse hakurya urugi rurafunguye.

Mu isoko cyangwa mu iguriro, hari abacuruzi n'abaguzi barimo, hari ibicuruzwa by'amoko atandukanye, hari kokombure, urusenda bita piripirimbuzi, inyanya n'ibindi. Iyo uriye indyo yuzuye, ni ukuvuga ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, uba uriye neza.

Ibitenge bimanitse ahantu bikiri bishyashya, ibitenge babidodamo amakanzu y'abagore cyangwa amajipo cyangwa bakabidodamo ibindi bintu by'abagore, ugasanga barabyambaye baraberewe.

Isoko rya kijyambere risakajwe amabati y'ubururu hari harimo abantu benshi, imbere kuri iryo soko ku irembo hari itangazo cyangwa se hari amagambo ahanditse ku irembo ngo, nyabugogo moderi maketi.

Iki ni icyumba k'inama y'imwe muri kampani runaka, aho abayobozi bashobora guhurira mu kwiga ku ngingo zitandukanye no gukemura ibibazo byagaragaye.

isoko rya kijyambere ririmo ibiribwa bitandukanye, harimo abaguzi n'abacuruzi, umubiri wacu ni ngombwa ko urya, ubona ibiribwa bitandukanye harimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga.

Umucuruzi wari ufite ibintu bitandukanye, hari amashaza ari mu ibase hakaba hari inyanya ziri mu gatebo, n'imineke ya kamara iri mu ibase n'ibindi.

Umugore wari wagiye guhaha ku isoko, aho bagurishiriza imbuto, umucuruzi w'imbuto ari kugenda ashyira imbuto mu gasashe umugore yari amaze kugura.

Isoko rya kijyambere ririmo ibiribwa by'amoko yose, ririmo abacuruzi n'abaguzi, kurya indyo yuzuye irimo ibitera imbaraga ibyubaka umubiri, n'inda indwara ni ingenzi mu buzima bwacu.

Umugore wari uri kuva ku isoko yikoreye ibintu bitari kugaragara neza, akenyeye kagasakoshi bashyiramo amafaranga, bigaragara ko yari avuye kurangura ibintu acuruza mu isoko.

Mu isoko, aho bagurira imyenda, harimo abantu bari kugenda, hakaba iruhande rw'imyenda, hari abantu b'abatayeri bari kudoda, iyo wambaye neza ugaragara neza.

Iduka bacururiza mo imyambaro y'abagore, baratwereka ahantu hapanze ibitenge byinshi bigiye biri ku murongo, bigiye bigerekeranye. Hino yaho baratwereka: imitako, amaherena, inigi n'iyindi mitako y'abagore.

Umucuruzi w'umugore wariwicaye imbere y'ibicuruzwa bye ukuboko ku ibumoso gufite amaronji abiri ironji rimwe n'igisate ukundi kuboko kukaba gufite inote y'amafaranga mu ntoki ari imbere y'ibicuruzwa bye imyumbati n'amaronje ari mu tudobo tw'amabara atandukanye.

Udukiyosike tubiri twegeranye kamwe k'umuhondo gakorerwa gakorerwamo umwajenti wa emutiyene n'akandi k'umutuku gakorerwamo n'umwajenti wa eyateli. Aba bajenti bombi bari barimo muri emutiyeni bari kwakira umukiliya.

Agakiyosike umu ajenti wa mtn akoreramo k' umuhondo, kari gafunze ibimoso bwaho hari ipoto iriho bya byapa by' umuriro bakunda kwita feruje, hanyuma iburyo bwaho hari icyapa kiri imbere yaho.

Umuntu ufite terefone bakunze kwita gatoroshi cyangwa y'amatushe agiye kwishyura kuri MomoPay, MomoPay ni iki, ni uburyo budufasha kwishyura neza udakoresheje amafaranga utayafashe mu ntoki.

Agakiyosike k'uma ajenti wa emutiyene, kari gafunguye idirishya ariko nta muntu urimo, iruhande rw'agakiyosike hari ipoto, agakiyosike kegereye umuryango w'inzu, kandi ako gakiyosike inyuma hari idirishya ry'iyo nzu.

Iguriro cyangwa se isoko turahabona abantu benshi bafite amaterefoni imbere yaho hari umuntu usa nkaho akora terefone akoresheje ikoranabuhanga afite compiyuta imbere ye.

Uyu n'umukuru w'igihugu cyu Rwanda, aho yari ari kwiyampamariza kuyobora ndetse nk'uko bigaragara abaturage bakaba bari kumugaragariza urukundo, bamwishimiye kandi bamwereka ko bamushyigikiye.

Abantu bari bahagaze mu birango bya MTN, bigaragara ko bari bakeneye serivisi za MTN. MTN ni cyo kigo cya mbere cyabanje kutuzanira itumanaho rya terefoni ngendanwa.

Ahabereye imurikagurisha kuri sitande ya MTN, hari abantu barimo kugana abakozi ba MTN bakabasobanurira amatelefone bafite bakabereka uburyo akoreshwa.

Umwajeti wa Emutiyene wari urimo imbere, ari kwakira umudamu, umudamu yari ahagaze mu kadirishya k'agakiyosike bakoreramo, ari kumwakira, ari kumwandika.

Mu muhanda harimo imodoka isize irangi ry'ubururu, imbere harimo haraturukayo ipikipiki ihetse umuntu, hirya gatoya hahagaze umuntu, ku muhanda hari ibiti binini cyane.

Agakiyosike k'umuhondo ka emitiyene karimo umu ajenti ari kwakira umukiriya wari wambaye umupira w'umweru, ahetse n'igikapu cy'umukara.

Agakiyosike gato k'umuhondo, gatangirwamo serivisi za MTN harafunguye harimo abantu babiri, MTN ni yo idufasha mu buryo bw'itumanaho, hakoreshejwe telefoni ngendanwa.

Agakiyosike k'umuhondo umwajenti wa emutiyeni akoreramo, kari gafunze. Iruhande rwaho hari umugabo wari uri kuvugira kuri telefoni. Telefone ni igikoresho kidufasha gusabana n'abantu mu buryo bwihuse tukavugana nabo kandi kikadufasha gukora serivisi zose mu gihugu mu buryo butatugoye.

Abagabo batatu, babiri bambaye imipira y'umuhondo iriho ibirango bya Emutiyeni bigaragara ko ari abakozi. Uwo wa gatatu akaba yaje abagana asa nk'uri kujyenda ababaza nabo bari kujyenda bareba muri kompiyuta.

Aha ni umwajenti wa emutiyene yari ari mu kazu ke akoreramo ari kwakira umukobwa wari waje amugana, umukobwa yari yishimye ari kumuha serivise amwandika mu gitabo.

Kuri MTN center, aha niho bakirira abantu baza babagana.

Umugore yari arimo kwinjira avuye guhaha, ari kwinjira aho bacuruza ibikoresho bya emutiyeni, hakaba hari n'abantu bambaye imipira ya emutiyeni ibaranga.

Utuzu tubiri turimo abajeti, kamwe karimo umwajeti wa eyateri akandi karimo umwajeti wa emutiyeni we yari arimo kwakira umuntuuwo mwajeti wa emutiyeni.

Akazu gakoreramo aba ajenti ba emutiyene hari harimo umugore yari arimo guseka ariko nta mukiriya yari afite.

Aho bagurira ibicuruzwa bya emutiyeni. Emutiyeni ni kampani y'itumanaho idufasha kugira ngo tugeze isakaza majwi cyangwa amashusho ku bantu muburyo bwihuse

Ibirenge by'umukobwa wambaye inkweto, bari kwamamaza ko bagurisha inkweto z'abagore.

Ni mesaje itangwa na serivise z'irembo. Serivise y'iermbo niho tubonera amakuru, niho tubona ibyangombwa bituranga n'izindi serivise zose zigendanye n'igihugu.

Abantu babiri umugabo n'umugore umugore ni umwirabura umugabo ni umuzungu, bari bari kuganirira iruhande rwa pisine. Pisine ni aho bogera ee bigatuma umubiri umererwa neza.

Inzu nziza irimo intebe z'amafuteyi meza ajya gusa nk'umweru, hejuru handitse ko ikodeshwa amadorari igihumbi na magana atanu mu kwezi, ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda.

Ubwiherero n'udushe bigezweho bifite isuku; isuku ni yo soko y'ubuzima. Bikaba biherereye i Kanombe muri Kigali siti.

Ikibanza kiri kugurishwa. Ni ikibanza giherereye i Kigali, Musave i Bumbogo, kikaba kiri kugurishwa miliyoni cumi n'eshanu y'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu iri gukodeshwa, iherereye i Kigali Kicukiro, ifite ibyumba bibiri na saro ikaba iri gukodeshwa ibihumbi maganabiri na mirongo itanu mu kwezi.

Ahantu muri sale haherereye abantu baje kwamamaza ibintu byabo by'ibicuruzwa ku ruhande imbere yabo hari abantu bari kubireba banareba uburyo bikorwa .

Icyapa kigaragaza aho batangira serivise z'ubukerarugendo. Ubukerarugendo ni ahantu bajya gusohokera bakahareba inyamaswa n'ibidukikije amashyamba n'ibindi.

Iyi ni inyubako irimo amacumbi y'abanyamahanga n'abanyagihugu aho bifashisha baruhukira igihe bavuye mu bindi bihugu baza mu Rwanda.

Inzu iri gukodeshwa iherereye i Kigali i Kanombe ikaba iri gukodeshwa ibihumbi magana atatu mu kwezi, ni inzu nziza cyane yo mu bwoko bwa konoshi.

Inzu ikodeshwa ibihumbi magana abiri mu mbuga hose harimo amapave ikaba yubakishijwe urupangu rwubakishije amatafari ya munyu.

Mu isoko imbere hakaba ari igice cyo abacururizamo imbuto zinyuranye z'amoko yose harimo; avoka, imineke, amapapyi, amarunje, indimu ndetse n'ibindi.

Umucuruzi w'umukobwa uhereza umukiliya ibyo yaguze biri muri amverope ya kaki, amashashi yaraciwe kubera ko yangiza ibidukikije.

Isoko cyangwa iguriro rimwe rigezweho hasi rirerire rishasheho amakaro, hari umugabo imbere wari urimo kwishyura arimo kugenda yerekana ibyo amaze kugura.

Abantu batatu bari kwinjira bageze ku muryango hejuru y'umuryango handitse simba mu magambo y'umutuku. Muri abo bantu batatu harimo uwambaye umupira w'ubururu mu mugongo hari nomero zandikishijwe umweru nomero icumi.

Abantu benshi bari barimo kugenda mu nzu hino hari iduka rigaragaza ko ricuruza imyenda y'abana n'abantu bakuru.

Supamaketi yaririmo abantu bari bamaje gufata ibyo bahashye, bategereje kwishyura. Supamaketi naryo ni isoko rya kijyambere rimwe rigezweho.

Iduka ririmo imyambaro y'abagore, harimo n'amavuta bisiga, n'ibindi byose byo kwimakiraya. Umugore wambaye neza agaragara neza.

Aho bagurishiriza imitako yo munzu, amabuke, indabyo amavaze nibindi, iyo inzu itatse neza irimo ibyo ngibyo baba baguze, bigaragara neza bigatanga umunezero.

Ahatangirwa serivisi za emutiyeni hari ibirango byayo byinshi biba byiganjemo ibara ry'umuhondo emutiyeni ni isosiyete y'itumanaho idufasha mu buryo bwo gushyikirana n'abantu bari kure dukoresheje telefoni ngendanwa.

Isoko rigezweho bacururizamo inkweto, hari harimo abaje kugura inkweto n'abazicuruza. Uwambaye neza agaragara neza.

Abantu bane, abagabo babiri bambaye kositime n'abadamu bari impande z'abo bagabo. Abagabo bagerekeranyije akaguru kandi, bafite ajenda, bameze nk'aho bari gusobanura ibyanditse muri ajenda, abagore bakaba bameze nk'aho bari kugenda bababaza kuko bafite mikoro.

Icyapa kinini cy'ubururu mu nguni y'icyo cyapa iburyo hari amagambo yanditse ngo arasesibi hagati hakaba hari igishushanyo cy'abantu batatu bari mu mutaka umwe, munsi y'icyo gishushanyo hakaba hari amagambo manini yanditseho mituweli. Munsi y'ayo magambo manini hakaba haranditse ubwisungane mu kwivuza.

Ababyeyi bari bicaye bamwe, hakaba hari n'undi wari uhagaze imbere y'abaganga babiri bari bambaye udupfukamunwa, bafite na raputopu na abo babyeyi bari kumwakira hirya y'aba babyeyi hari hari ibyapa by'ubururu biriho amabwiriza abo babyeyi bagomba gukurikiza.

Abantu babiri bambaye udupfukamunwa umugabo n'umugore, umugabo ahagaze ibumoso yambaye ikositimu na karuvati, umugore ahagaze iburyo, yambaye ikanzu y'igitenge, bafite cya gisheki kinini bombi bagifatishije amaboko yombi, cyanditseho amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu, izina ry'umuntu ni Mukanziga pasikaziya.

Abantu icyenda harimo abagore babiri n'abagabo barindwi, bahagaze bemye nk'abari kwifotoza, inyuma yaho hari icyapa cyanditseho RSSB.

Icyapa kigaragaza aho RSSB ikorera, hariho inzu ndende ya etaje kuri iyo nzu handitseho amagambo arambuye icyo RSSB ivuga, ivuga ngo Rwanda sosho sekiriti bodi.

Umugabo wari wambaye kositime ari muri supamaketi ari iruhande rwa etagerin riirimo ibucuruzwa ibicuruzwa afite arimo kureba ibyandite kuri terefone.

Supamaketi nini cyane irimo amaetajeri agiye ateganye, buri etajeri igiye ipanzemo ibi ibicuruzwa bivuye hasi kugera hejuru.

Supamaketi nini cyane, ifite ama etajeri maremare. Hagati y'ayo ma etajeri, nukuvuga muri koridoro yayo, hari akadobo bashyiramo imyanda k'umutuku.

Inzu ntoya yari ifatanye n'inzu ndende ya etaje, iyo nzu ntoya iriho ibyapa bibiri, icyapa cyanditseho kojebanke n'ikindi cyanditseho simba setinara hawuze, imbere y'iyo nzu hari abantu bari barimo kwinjiramo ni simba supamaketi, iri mu mujyi rwagati, hanyuma mu muhanda hari umumotari wari utwaye umugenzi.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye, etajeri imwe irimo amatelefone, iyindi irimo imigati n'amandazi hejuru hakaba harimo amaji n'amafanta. Abacuruzi barimo ni babiri umuhungu n'umukobwa bambaye imipira y'umuhondo isa. Umukobwa ari kwereka umuguzi igiciro cy'ibyo yaguze.

Abagabo babiri bari mu iduka uri hirya yambaye ingofero, uri hino yambaye agatishati k'ubururu, bahagaze hagati y'ama etajeri abiri iri ibumoso n'iri iburyo hose harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.